Abayobozi bitabiriye inama iganira ku bintu bigiye bitandukanye bizamura iterambere ry'igihugu, umuyobozi mukuru ufite icyuma cy'indangururamajwi, kifashishwa mu kurangurura.

Abagabo n'abagore bari mu inama bambaye imyenda igiye itandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere ya bo bafite amacupa arimo amazi y'uruganda rw'inyange, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ihema rinini cyane ryakiriye abantu bari mu nama, bari kuganira ku bigiye bitandukanye byateza imbere igihugu cyacu. Hari intebe ziri mu ibara ry'umweru, ndetse iryo hema riri mu ibara na ryo ry'umweru n'ubururu.

Abagore bari mu nama y'umushyikirano, bamwe bambaye udupfukamunwa abandi bambaye amadarubindi, bafite udutambaro mu ijosi imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'inyange ndetse n'aya Nili.

Umugore ufite mu ntoki igikoresho cy'indangururamajwi kifashishwa mu mbwirwaruhame hari inama yateraniyemo n'abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abasore.

Abagore bari mu nama ndetse harimo n'abagabo bitabiriye inama iganira ku bintu bigiye bitandukanye, byateza imbere igihugu cyacu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, ubururu, icyatsi n'iyindi.

Inama y'abayobozi bakuru b'igihugu yitabiriwe n'ingeri zose, hari n'antu bo mu bihugu byo naze. Hari n'abashinzwe umutekano, imbere yabo bafite ikinyobwa cy'amazi.

Icyuma cy'indangururamajwi, uri gukoresha inama urubyiruko rwambaye imipira iri mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hari icyuma cy'ikoranabuhanga cy'indangururamajwi, bicaye mu ihema riri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu afite imbere ye igikoresho k'indangururamajwi kiririmo ibara ry'umukara gikoreshwa mu mbwirwaruhame yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umukara.

Inama y'abayobozi bari kuganira ku cyateza imbere igihugu, uyiyoboye yambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, imbere yabo bafite amacupa arimo amazi y'inyange ndetse na mudasobwa.

Urubyiruko rwinshi cyane ruteraniye ahantu hamwe ruri kumva inama n'impanuro zigiye zitandukanye, bambaye imyenda itandukanye iri mu mabara menshi.

Nyuma y'imishyikirano, yitabiriwe n'impande zombi abirabura, ndetse n'abanyarwanda. Kandi bambaye imyenda myiza, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Abitabiriye inama igiye itandukanye iri kuganirwaho ibyateje imbere igihugu, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bya mudasobwa bagenda bandikamo amakuru.

Yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye bo mu nzego zo hejuru, imbere yabo bafite mudasobwa bifashisha bandikamo ibyavugiwe mu nama, ndetse ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Umuyobozi mukuru uyobora ikigo runaka yicaye kuntebe nziza cyane iri mu ibara ry'umukara, imbere ye hari amacupa abiri y'amazi y'uruganda rw'inyange.

Abagore ndetse n'abagabo bari mu nama, hasi bafite ibikapu abandi barabiteruye ndetse bafite n'amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange.

Ikimenyetso gisobanura aho imihanda ihurira, Ihurira ibumoso kikaba mw' ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'umweru, kiba kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga k' ibumoso bwiwe hashobora guturuka ikinyabiziga...

Abagabo ndetse n'abagore bitabiriye inama iri kuganirwaho bimwe mu bigirira akamaro igihugu. Hari, imbere yabo hateretse indabo nziza ziri mu ibara ry'umweru, ndetse,...

Umugore mu kuvuga mu mbwirwaruhame afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cy'indangururamajwi ndetse yambaye n' imyenda y'ibara ry'umukara ari gutanga ijambo.

Ababyeyi baje mu nama gukurikirana ibirebana n'ubuzima bwiza. Umugore ubari imbere uri kubaganiriza wambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu hakurya yabo hari imitaka iri mu ibara ry'umuhondo.

Mu nteko y'inama, harimo abanyamakuru ndetse hakaba harimo n'abantu basanzwe bafite utwuma tw'irangururamajwi tubafasha kumvikana neza.

Umugore uri gutanga ubufasha ku birebana no kugura no kugurisha amazu. Yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Abagore ndetse n'abagabo bitabiriye inteko ishinga amategeko, bari kuganira ku cyateza u Rwanda imbere, harimo n'abanyamahanga ndetse bafite amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange imbere yabo.

Abakora umwuga w'itangazamakuru, ufite icyuma gikurura kikanasakaza amajwi n'amashusho ku isi hose, hari abitabiriye inama bafite ibikoresho bandikamo nka mudasobwa, ibitabo ndetse n'ibindi.

Ku meza hateretse amacupa y'amazi y'uruganda rw'inyange, ndetse hakaba hariho n'igitambaro kiri mu ibara ry'umweru n'indabo ziteguye neza cyane, mu buryo bw'isuku, kandi busa neza.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhurirwaho n'abantu ingeri zose zigiye zitandukanye, aho batanga amatangazo y'akazi, bakakumenyesha ibisabwa ndetse wabona ubyujuje, ukaba wakwiyandikisha, ugakora ikizamini, ugakora.

Uruganda rucuruza imodoka rukanazikora rwasohoye itangazo ryerekana ko rushaka abakozi mu myanya igiye itandukanye ndetse bashyiraho n'ibisabwa.

Zitangirwamo ubufasha ku birebana n'irembo ndetse no kwifotoza amafoto magufi n'ibindi, hari inzugi ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Serivisi nshya ku rubuga rw'irembo. Ikigo gitanga iyi serivisi; Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, Ikiciro; Abinjira n'abasohoka, Izina rya serivise; Uburengabzira bwo kugeza mu nkambi y'impunzi.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru ari gutambuka ahantu hakorerwa ubucuruzi ndetse hakanatangirwa ubufasha ku bintu bigiye bitandukanye by'umuyoboro w'itumanaho n'ibindi.

Kumenyekanisha umusoro mu rwego rwo kwirinda amande cyangwa ibihano byateganyijwe kutishyuriye umusoro ku gihe, bitarenze makumyabiri neshatu zu kwa cumi biri na makumyabiri na kane.

Igipapuro gitangirwa ku rubuga rw'ikoranabuhanga cyerekana ko wakingiwe urukingo rw'indwara yandura icyorezo cya covid cumi nicyenda.

Rw'irembo rwifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye handitse ngo intambwe ya kane kanda kuri saba hanyuma ukurikize amabwiriza ibisabwa: usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru ya makumya nitandatu, abasaba bagomba kugira nimero ya telefone cyangwa aderesi.

Abantu benshi bafite mu ntoki igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu guhamagara, kohereza, kwakira ubutumwa bugufi bari gufotora ndetse harimo n'abambaye udupfukamunwa.

Umunara muremure, w'ibyuma biri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ahari insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro mu nce zigiye zitandukanyekanye.

Kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'ikiro kisumbuye ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho, unyuze ku rubuga rw'irembo ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Icyo wakoresha umenyekanisha cyangwa ukishyura imisoro y'ipatante, ukanze akanyenyeri magana inani urwego cyangwa usure urubuga rwabo.

K'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho mu Rwanda bambaye ibikururamajwi ndetse imbere yabo bafite ibyuma by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa bari mu kazi.

Umunara muremure cyane uriho insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro ahantu hagiye hatandukanye ndetse hakaba hariho n'ibindi byuma bitandukanye.

Imihanda ifite ibiti byiza cyane bikurura umuyaga mwiza duhumeka, imbere hari ubusitani bugizwe n'indabo zirimo ibara ry'umuhondo n'igiti kimanitseho insinga z'amashanyarazi.

Abantu bahagaze harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ipantaro yumukara ishati yu'mweru ikanzu ifite ibara y'umukara ndetse n'ikote rifite ibara ry'ubururu ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu bafite urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Ibiti birebire bimanitseho insinga z'amashanyarazi bikwirakwiza umuriro ahantu hatandukanye, imodoka ndende itwara abantu ndetse n'ibintu inyuma yayo hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Ndareba ibinyobwa bishemeye ndetse n'ibidasembuye, hari ikirango kiriho icupa, ndetse hakaba hari n'igiti kirekire cyane cyubatswe mu byuma bikomeye kimanitseho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ibiti birebire by'ibyuma biriho insinga ziifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, inyuma hari ibidukikije biri mu bwoko bw'ibiti.

Ikinyabiziga gitwara abantu kiri mu muhanda w'umukara, hirya gato hari akayira k'abanyamaguru, inyuma kandi hari ibiti biriho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ku ruhande hari akazu kari mu ibara ry'umuhondo.

Umunara muremure cyane w'itumanaho, uriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, zikwirakwiza ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu no muri ako gace.

Ikirere cyuje umucyo kirimo ibara ry'umweru n'ubururu, ibyuma biriho insinga z'amashanyarazi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro.

Ni amarangi y'umweru ndetse n'ubururu hakaba hashamitseho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, zifite imbaraga zo kuba yakwatsa inzu yose ndetse ikaba hakoreshwa mu kwinjiza ibindi bintu.

Umugore ufite igikapu kiri mu ibara ry'umukara, uhetse umwana, afite mu ntoki agambaro kari mu ibara ry'umweru, yambaye igitenge kirimo amabara menshi atandukanye agizwe n'umuhondo, ndetse n'umweru.

Ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byari bitandukanye ibinini ndetse n'ibito, bitwara abantu n'ibintu, hahagaze imodoka eshatu ebyiri zir mu ibara ry'umweru, iyindi imwe iri mu ry'umukara.

Umuganga uri gusuzuma umukobwa, muganga yambaye impuzankano ifite isuku, iri mu ibara ry'umweru. Umukobwa yicaye ku ntebe iri mu ibara y'umukara. Umugabo yambaye icyumvirizo.

Ubusitani burimo utwatsi duke tw'icyatsi kibisi, imbere hashashe amabuye meza, ndetse niho imodoka zihagarara. Imbere cyane kandi hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Ikigi kininini cyane cyubatswe mu busitani hari ibiti bifasha mu kudukururira umwuka mwiza duhumeka ndetse no gufata ubutaka bikarinda isuri.

Ahatangirwa ubufasha bugiye butandukanye, hari udutebe dukozwe mu cyuma ndetse dutegererezwaho, hari kandi ubwiherero ndetse bukozwe neza.

Yubatse neza mu buryo bwa kijyambere ikomeye kandi isa neza imbere hararangaye ndetse yubatse nk'igorofa, hari ibirahure byijimye birinda kwinjira izuba mu nzu.

Abagororwa bambaye imyenda ya oranje bavuye kubaka bamwe bafite ibitiyo abandi amasuka, amagorofane bari kuzamuka batashye bari ku murongo bari impande y'igipangu cyubakije amatafari ahiye asizemo amarangi y'umuhondo.

Cyane yubatswe muburyo bw'ubuhanga ifite igikuta kirekire, harimo abagororwa bafungiwemo ndetse hakaba hari umunara muremure uri mu ibara ry'umutuku.

Ikigo cy'imfungwa kigororerwamo abakoze ibyaha bigiye bitandukanye b'igitsina gabo bambaye impuzankano zisa ndetse hakaba ikigo kirekire cyane ibikuta bisize amarange y'umuhondo ndetse urugi rukaba rusize irangi ry'umukara.

Abagore ndetse n'abagabo bagize itsinda rishinzwe kuburanisha abakoze ibyaha bigiye bitandukanye, bakaba bambaye ibirango mu ijosi bifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Ahateraniye ahantu bambaye impuzankano irimo ibara ry'icyatsi kibisi , inyuma yabo hari abashinzwe umutekano bari kuburanishwa.

Abagabo n'abagore bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru bari ku murongo bose bafite akamwenyu ku maso.

ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, hari umugabo wakatiwe azira icyaha runaka, inyuma ye hari umugabo ushinzwe umutekano.

Abagore ndetse n'abagabo bagize inteko y'abadepite b'abayobozi mu Rwanda, bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano irimo ibara ry'ubururu ari gusobanurira abashinzwe umutekano barinda ahantu ndetse bari ahantu n'ibintu , ibicuruzwa bigiye bitandukanye bambaye impuzankano zisa bari ku murongo.

Imodoka y'ikigo gishinzwe kurinda umutekano Police iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hicayemo abashinzwe umutekano bafite intwaro.

Ikinyabiziga kinini cyane cyifashishwa mu gutwara ibikomoka kuri mazutu, byifashishwa mu binyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku mpande hari ibidukikije.

Imodoka iri mu ibara ry'umutuku, ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'akazi, ku ruhande hari ibidukikije bigizwe n'insina ndetse n'ibiti.

Ishami rikuru rishinzwe umutekano rya polisi riherereye ku Muhima mu nzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru ifite ibirahure byijimye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mugihe habayeho impanuka y'inkongi y'umuriro kikaba cyazimya kiri mu ibara ry'umutuku ndetse kiri ahantu heza.

Ashinzwe umutekano bambaye impuzankano z'akazi ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye bari ku murngo aho bari gufata amabwiriza n'amategeko bibaranga.

Imodoka zihagaze mu cyanya cyabugenewe harimo n'iya polisi hasashe utubuye twiza muri iyo mbuga. Harimo imodoka zifite ibara ry'umukara n'umweru.

Abaturage baje kwamamaza ishyaka rya FPR, bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, bafite amadarapo yanditseho FPR.

Ibyavuye mu matora y'abiyamamaza harimo Kagame Paul Habineza Frank na Mpayimana Philippe, ndetse bari ku ijanisha rigiye ritandukanye.

Abagore bahuriye mu nama bari kuririmba akaririmbo kabatera imbaraga ndetse bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga biteretse ku meza n'amacupa arimo amazi.

Abayobozi bari munama y'intekonshingamategeko buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye hari indangururamajwi ibafasha kumvikana muburyo bworoshye, imbere kandi hari icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mugusakaza amajwi n'amashusho.

Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ari gutanga indahiro afashe ku ibendera ry'igihugu ari kumwe n'umugore we wambaye imishanana.

Ahabereye inama yitabiriwe n'ingeri zose, abagore, abagabo, urubyiruko rwiganjemo abakobwa, bafite ibikoresho byo kwandikamo.

Ndetse n'abagore bambaye imishanana bicaranye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame , bari gufata ifoto y'urwibutso, ndetse bambaye neza.

Abana bato bishimiye kuba bafashijwe, bari guhobera umusore wambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ari kumwe n'abandi bagabo n'abagore.

Amakarita y'itora ariho abagomba gutora biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu ku ruhande gato hari igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Ikigo gishinzwe amatora mu gihugu, aho babara ibyavuye mu matora, bakabimenyesha abaturage. Bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru.

Abagabo bane bambaye neza cyane bari mu nteko nshingamategeko, bamanitse ukuboko kw'iburyo nk'ikimenyetso kigaragaza ko ko bari kurahira. Bahagaze ku idarapo ry'u RWANDA.

Abayobozi bari mu nteko ishingwa amategeko, bari kuganira, barebera hamwe ku cyateza imbere igihugu cyacu. Ndetse bafite mudasobwa.

Abayobozi babayobora igihugu cy'u Rwanda bari mu rugendoshuri aho bagenda bakoresheje amaguru, bari kumwe n'umukuru w'igihugu poro kagame ndetse inyuma yabo hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Ahabereya amatora hari icyapa cyanditseho Repubulika y' u Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite bibiri na cumi n'umunani, twitabire amatora duhitemo nez, abaturage bavuye mu itora.

Abagabo n'abagore b'abayobozi bari gufata ifoto y'urwibutso, abagore bambaye amakanzu y'amabara agiye atandukanye harimo umweru, umukara, umutuku, ubururu, ndetse n'andi mabara agiye anyuranye.

Inteko ishinga amategeko inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye bari kuganirira hamwe ku cyateza imbere igihugu bafite indangururamajwi zifashishwa mu kugira ngo bumvikane.

Umugabo utwara imizigo ku cyuma cyabugenewe cyikorera ibintu byinshi kandi biremereye. Yambaye umwenda w'impuzankano uri mu ibara ry'ubururu bwerururutse.

Uhanda w'umukara uri kugendwamo nikimodoka kinini kiririmo ubwoko bwa hoho, gitwara imizigo myinshi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru hejuru hari ikiraro.

Umuhanda w'umukara ukoreshwa n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari ikimodoka kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umunyamaguru wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, imbere hari inzu y'igorofa.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu kiriho umutwazi wambaye akajire ndetse kuruhande hari imodoka nini cyane hirya hari ibidukikije.

Imodoka nini cyane yifashishwa mu gutwara abantu benshi ndetse n'ibintu, ku ruhande hari utuzu duto twicarwamo n'abagenzi.

Ikinyabiziga kinini cyane kiri mu bwoko bw'imodoka gitwara imizigo myinshi kiyambukiranya imipaka kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku kiri kugendera mu muhanda w'umukara hirya gato hari ibidukikije byiganjemo ibiti.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umweru, itwara imizigo, ku nkengero hariho ibiti by'ibidukikije.

Ikinyabiziga gitwarwa n'umunyembaraga gifite amapine abiri, kiri mw'ibara ry'umutuku gitwara imizigo myinshi iremereye.

Umuhanda munini cyane ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bijye bitandukanye ibinini ndetse n'ibito uri gucamo ikimodoka kinini cyane kiri m'ibara ry'umweru gikunze gutwara amazi cyangwa ibindi bintu.

Ibidukikije bigizwe n'amashyamba n'ibiti birebire kandi byinshi, bitanga umwuka mwiza duhumeka buri munsi, ndetse bigafata n'ubutaka bikaburinda isuri. Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru.

Ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu ucyicayeho yambaye impuzankano irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi , ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku , iruhande rwacyo hari ikindi gitwara imizigo kirimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo ukora umwuga w'ubunyonzi wo gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ari mu muhanda w'amabuye ndetse akaba ari n'umuhanda w'umukara, imbere ye hari ikimodoka kinini gitwara abantu n'ibintu.

ikinyabiziga atwayeho imizigo iri mu mufuka, ku ruhande hahagaze ikimodoka kinini cyane gitwara abantu benshi ndetse kikaba gisize amabara arimo umweru ndetse n'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru kiri kugendera mu muhanda w'umukara kirya gato hari akayira ka banyamaguru inyuma hari ibiti by'ibidukikije.

Uruvungazoka rw'abantu n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu imodoka iri mu ibara ry'umukara, itwaye imbaho, hirya gato hari ibidukikije, bigizwe n'ibiti.

Umuhanda w'umukara uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hari umugabo ufite ikinyabiziga gitwaye amagi afunze neza mu buryo bwa bugenewe buyarinda kwangirika hirya kandi hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Ikimodoka kinini cyane kifashishwa mu gutwara imicanga y'ubakishwa cyangwa se indi mizigo nk'amabuye n'ibindi n'ibindi kiri mw'ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu kiri kugendera mu muhanda w'umukara. Ku nkengero hariho ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti birebire biduha umwuka mwiza wo guhumeka, ndetse bigatanga n'imvura.

Umugabo ufite ikinyabiziga ari gucunga kiri mu bwoko bw'igare imbere ye hari abagore, ndetse inyuma ye hari imodoka nini cyane ifite ibara ry'ubururu.

Ikimodoka kinini cyane kiri mu bara ry'umweru cyifashishwa mu kwambukiranya imipaka gitwara imizigo, imbere yaho hari ibidukikije by'ibiti.

Ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu kiri mu ibara ry'umweru. Hirya gato hari ibidukikije bigizwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza, bikarinda ubutaka kwangirika n'isuri.

Imodokamo yigisha abanyeshuri gutwara ndetse n'amategeko y'umuhanda, yicayemo umugabo wasohoye akaboko, bari mu muhanda w'umukara, ndetse imbere hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga, hari ikinyabiziga gitwara ibikoresho bigiye bitandukanye kirimo ibara ry'ubururu, hari n'ikindi gitwara abantu kiri mu ibara ry'umweru imbere yawo hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Imodoka itwara abantu ndetse n'ibintu iri mu ibara ry'umweru nini cyane, imbere hari ubusitani buteye neza, hirya gato hari ibiti.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinini ndetse n'ibito bitwara abantu n'imizigo. Hari gucamo ikimodoka kinini cyane cyikoreye, kikaba gisize irangi ry'umweru, ndetse inyuma hakaba hariho umukara.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru iri kugendera mu muhanda w'umukara, inyuma hari ibidukikije bigizwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza ndetse bigafata ubutaka bikarinda isuri.

Umuhanda w'umukara kuruhande hakikijwe n'ibidukikije bigizwe n'amashyamba, hari uturongo tunini tw'umweru tunyurwamo n'abanyamaguru mu gihe cyo kwambuka hari kandi ikinyabiziga gitwaye umuntu.

Umukara urimo ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, harimo ikimodoka kinini kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umuntu utwaye umugenzi. Imbere yawo hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu ugitwaye yambaye impuzankano irimw'ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hari uruvunganzoka rw'abantu bari mu mirimo itandukanye y'amaboko.

Ikimodoka kinini cyane gitwara imizigo yambukiranya imipaka kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, kiri kugendera mu muhanda w'umukara w'ibinyabiziga ndetse ku ruhande hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Ibidukikije bigizwe n'ibiti, byinshi birebire by'inganzamarumbo, ibinyabiziga bitwaye abantu ndetse n'ibintu, imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu igaragara icyumba k'isuku n'umuryango imbere ufite ibirahuri.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, hari imodoka ntoya itwara ibicuruzwa cyangwa imizigo irimo ibara ry'ubururu mbere yaho hari ikimodoka kinini gitwara imizigo kirimo ibara ry'umutuku.

Ikibuga cy'umupira kiromo abakinnyi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara. Hari kandi ubutaka bwiza ndetse n'ibidukikije.

Ahakinirwa umukino w'amaboko , ikibuga kiza cyane cyubatswe muburyo bugezweho, hasi hashashe akantu Kari mu ibara ry'umutuku . Inyuma hagiye gakikijwe n'ibidukikije biri muburyo bw'ibiti.

Inzu iri mubusitani bwiza cyane ,har'ibiti by'inganzamarumbo, har' ibyuma bisiz' amarangi y'umweru ndetse nay'umukara , n'umuhondo ,icyatsi kibisi ndetse n 'ubururu.

Gishyirwa ku muhanda kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru kigaragaza ko aho hantu iyo uhageze uhagarara kiri mu kibaya kirimo ibidukikije.

Icyapa kiyobora gishyirwa ku muhanda kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'umukara cyanditseho mirongo itandatu inyuma ya ho hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Icyapa kiyobora gishyirwa ku muhanda kigizwe n'amabara agiye atandukanye, harimo umutuku umukara ndetse n'umweru cyereka ibinyabiziga ko imbere gato hari ikorosi iburyo.

Ibidukikije bigizwe n'ibiti, indabo bidufasha kuyungurura umwuka wacu ukaza ari mwiza, hari umuhanda kandi w'umukara icyapa kiyobora abagenzi.

Icyapa gishyirwa ku mihanda abakoresha ibinyabiziga aho baba bemerewe kuba bahagarara, kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyapa gishyirwa ku muhanda ahanyura ibinyabiziga ndetse n'abantu, kiri mu mabara atandukanye harimo umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Kiyobora cyangwa kimenyesha kikanaburira ibinyabiziga bigiye bitandukanye kiri mu mabara atatu harimo umutuku, umweru ndetse n'umukara. Hari n'utwambi tubiri n'undi murongo uciyemo hagati.

Icyapa kiranga cyangwa kiyobora gishyirwa ku nkengero z'umuhanda cyanditsemo umubare mirongo itandatu, ndetse kikaba gifite amabara atatu harimo umweru umutuku ndetse n'umukara wandikishije amagambo.

W'umukara urimo imirongo miremire, urimo ibara ry'umweru, ndetse n'akayira k'abanyamaguru kuruhande, ku muhanda wa Kibugabuga imbere yaho hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Icyapa gishyirwa mu ihuriro ry'imihanda cyerekana uburyo ibinyabiziga bigenda bisimburanya mu gutambuka cyangwa se abantu uburyo bambuka ndetse ku ruhande hari ibidukikije.

Icyapa gishyirwa ku muhanda gifite amabara atandukanye, umweru, ubururu bweyurutse, ndetse n'umukara uri mukizeru, hariho akambi.

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda kiranga cyangwa cyerekana kiburira imodoka kikaba kiri mu mabara atatu atandukanye harimo umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Icyapa gishyirwa ku muhanda cyifashishwa mu kwereka abatwara ibinyabiziga ahatemerewe guhagarara. Kiri mu ibarwa ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Icyapa gishyirwa ku muhanda, ahanyura ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu ndetse hakanyura n'abanyamaguru kiri mu mabara atandukanye harimo umukara ndetse n'ubururu.

kiyobora, gishyirwa ku muhanda kiri mu mabara agiye atandukanye umweru, umutuku ndetse n'umukara. Hariho umuntu imbere yaho hari ibidukikije birimo amashyamba.

Gishyirwa ku nkengero z'umuhanda kerekana cyangwa kikaburira ibinyabiziga birimo imodoka ndetse n'ibindi, y'uko aho ngaho hari umuhanda ureba iburyo, kikaba kiri mu mabara atatu umweru n'umutuku n'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, gishyirwa ku muhanda, ahagendwa n'ibinyabiziga.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo minini y'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka hari ikinyabiziga kiri guca mu muhanda kiri mu ibara ry'umukara ndetse imbere hari amazu y'amagorofa.

Ikirango kerekana yuko hacururizwa ibinyobwa bisembuwe ndetse, n'ibidasembuye hakaba hafatirwa n'amafunguro agiye atandukanye, imbere yayo hariho ubusitani bugizwe n'indabo z'umuhondo.

Inzu nziza cyane iherereye ahantu heza yubatse mu buryo bugezweho, hari amatara imbere, hari urugi ruri mu ibara ry'umukara, ndetse n'amabara yandi atandukanye.

Mariyoti hoteli, ikaba ari ahantu heza hari amafu kuko hateye ibiti bizana akayaga; hakaba hari ubusitani bwiza cyane bunogeye ijisho, buri muntu wese wifuza kuyiraramo ataha anyuzwe.

Ikinyabiziga kirimo ibara ry'umutuku ugitwaye yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu itwara abantu ndetse n'ibintu. Inyuma hari inzu y'igorofa iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye, bitanga umwuka mwiza duhumeka bigakurura imvura ndetse bigafata n'ubutaka bikaburinda isuri.

Umugabo ukora umwuga w'ubunyonzi wo gutwara abantu ndetse n'ibintu, afite imizigo ku igare rye, ndetse ari kwinjira ahantu hari ubusitani bwiza.

Ubutaka burimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakurya hari amazu maremare y'amagorofa yubatse mu buryo bwiza bw'isuku kandi asize amabara meza.

Amazu meza yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, umuhanda w'umukara ndetse n'akayira k'abanyamaguru. Hari ibidukikije bigizwe n'ibiti,...

Imodoka iri mu ibara ry'umukara ikinyabiziga kifashishwa gutwara abantu kibakura hamwe kibageza ahandi kigendera ku muvuduko uri hejuru.

Hasa neza mu buryo bugiye butandukanye bukomeye kandi burambye hariho ibidukikije ndetse n'ubusitani bwiza bugizwe n'indabo z'amabara atandukanye.

Abakozi benshi benshi bicaye hanze bambaye impuzangano iri mu ibara ry'ubururu. Bicaye mumuhanda w'umukara. Inyuma yabo hari inzu iri mu ibara ry'umuhondo, kuruhande hari ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu.

Inzu irimo intebe nyinshi hicayemo n'abantu ariho n'insakazamashusho yanditsemo mu magambo y'icyongereza umujyi wa Kigali.

Inzu ifite amabara meza cyane arimo ibara ry'umweru umukara ndetse n'umuhondo ifite ubusitani imbere burimo indabyo nziza cyane z'icyatsi kibisi.

Amazu menshi yubatwe neza muburyo bugezweho aherereye i Kanombe ndetse hari igiti kiriho imigozi ikwirakwiza amashanyarazi.

Inzu yubakanye ubuhanga bukomeye cyane, iri mu bwoko bw'amagorofa, ndende, ifite ibirahure byijimye, birinda izuba kwinjira mu nzu ndetse kandi isize amabara agiye atandukanye, nk'umuhondo, umutuku n'ayandi.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru gateyemo ibiti bigiye bitandukanye kandi bikurura umwuka mwiza.

Igorofa ndende yubatswe neza ahantu hitaruye, iri mu barara agiye atandukanye, umutuku, umweru, umukara ndetse harimo n'ibirahure byiza.

Ibidukikije biri mu bwoko bw'ititi, amazu maremare kandi menshi yamagorofa ari mu mabara y'umweru, umukara, ubururu n'icyatsi kibisi.

Umuhanda w'umukara uri kugendwamo n'imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu, hirya gato hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kubaka inzu yawe, handitseho amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi. Ku bindi bisobanuro wahamagara gatandatu gatandatu mirongo inani n'umunani.

Icyumba cy'inama kirimo abayitabiriye bari mu mwambaro usa w'umweruru imipira y'umweru, ameza ariho ibitambaro by'umukara, hariho amazi n'udutabo n'intebe ziri mu ibara ry'umutuku imbere yabo hari porojegiteri, ikimurika kibereka ingingo bari bwigeho cyangwa ibyo bari kwigaho.

Inzu nziza cyane zubatswe ahantu heza mu buhanga buhanitse ndetse zifite isuku n'umutekano hari abagabo babiri bari kuzitegereza mu imbere harimo ubusitani.

Umusozo muremure uriho amazu meza agizwe n'amagorofa ndetse n'andi asanzwe. Ikibaya kirimo ibihingwa, hejuru ku musozi hari ibidukikije bigizwe n'ibiti.

Uruvunganzoka rw'abantu, hari ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, ibitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere gato hari imodoka irimo ibara ry'umweru.

Harimo ubucuruzi bugiye butandukanye y'igorofa hagiye harimo amabara atandukanye y'ubururu, umutuku, umweru hasi hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu yubatswe neza kandi muburyo bugezweho isize amarange arimo: umutuku, umukara umweru, n'umuhondo; hasi hasashe utubuye twiza turi mu ibara ry'umutuku.

Inzu z'ubucuruzi zicuruzwamo ibicuruzwa bye bitandukanye imbere hicaye abantu hirya gato hari ibidukikije bigizwe n'ibiti by'amashyamba kuruhande hari akazu gato kari mu'ibara ry'umuhondo.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiyobora imodoka kiri mu mabara atandukanye umweru ndetse n'umukara hari ibidukikije bigizwe n'ibiti biduha umwuka mwiza ndetse bigafatanya n'ubutaka.

Amagorofa yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, yubakishije amabuye ahiye, imbere hari igiti cy'ibidukikije ndetse kikaba n'umutako, ku mpande hahagaze imodoka ziri mu ibara ry'umukara.

Ikigo cy'imari gishinzwe kubika kikabikira abaturage amafaranga yabo mu buryo bwiza kandi bwizewe bufite umutekano.

Ikinyabiziga gitwawe n'umugabo gitwara abantu ndetse n'ibintu haziritseho umugozi ndetse kiri mu muhanda w'amabuye ahitwa mu Kajagari ka mbere.

Umuhanda w'umukara ufite imirongo minini y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira .Ku mpande hagiye hariho amatara yo kumuhanda, ibidukikije bigizwe n'indabo ndetse n'ibiti n'ibindi.

Umuhanda wamabuye, igikuta kirekire cyane, gisize ibara ry'ubururu bwijimye, hariho amatara yo kumuhanda ari mu ibara ry'umuhondo. Imbere gato hari ikinyabiziga.

W'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ikiraro cyo hejuru cyubakanywe ubuhanga buhanitse, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, ndetse gakikijwe n'ibidukikije byiganjemo amashyamba.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo minini y'umweru igaragaza abanyamuguru aho bambukira hari, ku muhanda hari amatara ndetse n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda w'umukara ibinyabiziga bitonze umurongo, harimo imirongo y'umweru muri uwo muhanda, hirya gato hari ibidukikijwe bigizwe n'amashyamba biduha umwuka mwiza ndetse bikanakumira isuri.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'binyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu birimo imodoka ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru ku mpande hari ubusitani.

Ifoto icuritse, abantu bari kugenda, amatara yo ku muhanda ari mu ibara ry'umuhondo, ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu.

Umukara ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, harimo imodoka iri mw'ibara ry'umutuku ndetse n'ikindi kimodoka kinini giterura imizigo.

Umukara urimo imirongo y'umweru, hirya gato hari akayira k'abanyamaguru, ndetse umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu. Harimo imodoka iri mu ibara ry'umweru, hirya hari ibidukikije.

Mu muhanda w'umukara hari ibiti by'ibidukikije bidufasha kugira umwuka mwiza ndetse bikanarinda isuri kuba yadutera, hari kandi amatara yo ku muhanda.

Ikinyabiziga gitwara abantu babiri ndetse n'akazigo gato, gitwawe n'umugabo kiri kugendera mu muhanda w'umukara wahariwe kugenderamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cy'imodoka gitwara abantu ndetse n'ibintu. Ku ruhande hari amatara yo ku muhanda yaka mu mu gihe cya ninjoro, ndetse n'ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Umuhanda w'umukara urimo uturongo twumweru twerekana aho bambukira hari kandi akayira k'abanyamaguru, imbere hari ibidukikije bigizwe n'amashyamba.

Ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu ibidukikije biduha umwuka mwiza bikaturinda kurwaragurika ndetse bigafata n'ubutaka bikaturinda isuri.

Ibidukikije byiganjemo ibiti by'inganzamarumbo, biduha umwuka mwiza, bigafata umutaka, bikaturinda isuri, ndetse no kwangirika k'ibikorwa remezo. Itara riri mu bwoko bw'ubururu n'umweru.

Umuhanda w'umukara uri kuyogamo n'ibinyabiziga, urimo imirongo minini y'umweru kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, hirya gato hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hari ibidukikije birimo ibiti.

Umuhanda wumukara uciyemo ibice bibiri, harimo uturongo tw'umweru, hari kandi amatara yo kumuhanda imbere gato hari ibiti by'ibidukikije.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru minini yerekana aho abanyamaguru banyura, hakurya hari itara ryatsee icyatsi kibisi rihagazemo igishushanyo cyerekana ko ari igihe cy'abanyamaguru cyo kwambuka.

Ibidukije bigizwe n'ibiti by'amashyamba biturinda isuri n'ibindi hari kandi inzu ibinyabiziga umuhanda wo mu karere urimo turongo tw'umweru.

Umukara ku mpande hagiye hari ibidukikijwe bigizwe n'amashyamba, ubusitani ndetse n'indabo nziza, hariho kandi amatara yo ku muhanda yaka igihe cya n'ijoro.

Umuhanda w'umukara, imbere hari inyubako iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ikinyabiziga, ugitwaye yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'bururu, ku mpande hagiye hari imitaka ikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda w'umukara ugiye uciyemo imirongo iri mu ibara ry'umweru, akayira k'abanyamaguru kari ku ruhande, ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu.